Urujya n'uruza rw'abantu, abana babiri umwe asa nkaho ari umunyeshuri, bari ku kigo cy'ishuri barishimye cyane, umwana yazamuye agatoki rwose asa nk'ukurikiye cyane.

Icyumba kinini kirimo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagore n'abagabo. Bari gufashwa n'abaganga babigize umwuga ndetse babatera inshinge, babaha n'ibinini.

Icyumba kinini kirimo abantu bambaye imyenda y'umweru ubururu ndetse n'umukara, barimo kwita ku murwayi ndetse bamuha serivisi nziza.

Umwana wicaye ku iriba, iruhande rwe hari amajerekani yiganjemo amabara y'umuhondo n'ubururu, yaje kuvoma amazi kugira ngo ayakoreshe mu bikorwa bitandukanye bya buri munsi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abasore n'abagore bafite amajerekani, baje kuvoma amazi kugirango bayakoreshe mu buzima bwa buri munsi.

Urujya n'uruza rw'abantu ku kigo nderabuzima, ababyeyi bafite abana b'impinja birasa nkaho baje kubakingiza imyenda yabo yiganjemo umutuku n'umukara.

Ibiti binini, biri mu kibara, iruhande rwabyo hari iriba ryiza, ririho amazi asa neza kandi akeye, aho abantu baturuka hirya no hino, bakaza kuvoma.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, umweru, n'umuhondo, ubona ko bari guhabwa serivisi nziza n'abasirikare.

Umwana ari gukaraba intoki, yambaye ikanzu y'ubururu n'ishati y'umweru, yambaye inkweto zijya gusa umweru, imbere hari indobo yanditseho yunisefu, gukaraba intoki rwose yabyitabiriye, ni ku kigo cy'amashuri.

Inyubako nini yahuriyemo abayobozi b'inzego zitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara bari gutanga imbwirwa ruhamwe kugira ngo bageze ku baturage ibyo babateguriye.

Icyumba kinini kirimo abaganga, iyo abanyabuzima babihuguriwe bifashishwa mu gutanga imiti mu baturage ndetse n'ubujyanama.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse hirya no hino bambaye imyenda yiganjemo umukara, umutuku n'umweru, bigaragara ko bahurijwe hamwe n'ikintu gikomeye kandi cy'ingirakamaro.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye hamwe baje kuvoma amazi yo gukoresha mu buzima bwa buri munsi kubera yuko amazi ari isoko y'ubuzima kandi agira akamaro kanini.

Inyubako nini yahuriwemo n'abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'ubururu, umukara, umweru, umuhondo ndetse n'andi mabara atandukanye, aho abantu bahuriye kugirango bige ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu, ku kigo nderabuzima hari abaganga bambaye amatabu y'ubururu, bambayemo imbere agapira k'icyatsi bari kuvura umurwayi, bisa nk'aho ari kumuvura kumupima umuvuduko w'amaraso, ni umusaza wicaye ku ntebe w'igikara.

Urujya n'uruza rw'abantu ni abaganga benshi hagati harimo umuzungu, abaganga bambaye amataburiya y'umweru bari bifotoza barishima cyane abaganga bambaye n'amapantaro y'umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu ni abantu babiri umugabo muremure w'inzobe yambaye ikote rwose araberewe na karuvati n'ishati y'umweru rinete, umugore uri hirya yambaye umupira w'umweru na we ni inzobe bari kwamamaza viziti Rwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nyubako nini bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru n'ubururu, ubona ko bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo ababyeyi bafite abana ubona ko baje kwivuza kandi bagataha bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi, umugore w'inzobe usa nkaho ari muremure yambaye amarinete, afite impapuro, ya yambaye baji, mu ijosi yambaye agapira k'ubururu yambaye ijire y'umukara ari guhereza abantu impapuro buzuza.

Urujya n'uruza rw'abantu bavuye kuvoma amazi, biganjemo umwana w'umukobwa wambaye umupira w'umutuku ndetse yikoreye n'ijerekani nziza irimo amazi menshi.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu bicaye mu cyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye kugira ngo bige ku nsanganyamatsiko yabateranyirije hamwe.

Urujya n'uruza rw'abantu bagiye kwa muganga, bagiye kwivuza bambaye masike bose bari kwirinda icyorezo babyambariye, muganga ari imbere bari kugenda bivuza hari imyenda yiganjemo umutuku n'umukara ndetse n'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo icyatsi, umuhondo, umutuku n'umweru, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Urujya n'uruza rw'ababyeyi bahuriye kui iriba baje kuvoma amazi kugira ngo bayifashishe mu bikorwa by'isuku harimo koza ibyombo ndetse no kumesa imyenda.

Abana bambaye imyenda itukura, barimo gukaraba intoki bakoresheje igikombe kinini, biragaragara ko aba bana bafite ubwenge kandi bazi icyo gukora isuku aricyo.

Urujya n'uruza rw'abantu. Ni abanyeshuri bari kuvoma amazi mu ndobo. Ni robine eshatu, izo robine eshatu i mbere yazo hari indobo eshatu z'umuhondo. Kuri buri robine abanyeshuri bagera kuri batandatu bambaye imyenda y'umweru, ikabutura n'ishati by'umweru barishimye cyane rwose bari no gukaraba intoki.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane, ahantu habaye ikirori hameze nko ku kagari hari darapo, hari ihema, hari imodoka, hari abantu rwose harasa neza, urabona ko bafite intego yo kubagirira akamaro ndetse no kubaha ubuzima bwiza.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara' n'umweru, ndetse n'ubururu, ubonako biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye zibafitiye akamaro.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse hirya no hino, baje kugura ibicuruzwa badafite kugira ngo babashe kugura ibyo batabonye iwabo ndetse bibafashe kwiteza imbere.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyahuriwemo n'abantu bari mu nama bambaye imyenda y'umukara, umutuku, umuhondo, ubururu ndetse n'andi mabara atandukanye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, umuhondo, ubururu ndetse n'umukara, bahagaze imbere y'inyubako nini irimo amarangi y'ubururu.

Urujya n'uruza rw'abantu ni abantu benshi bari mu kirori bizihiwe bari kubyina barishimye cyane biganjemo umutuku n'umukara barirabura bose barizihiwe ikirori kirarembanyije.

Umwana arishimye cyane, yambaye ikanzu ya shokora, arimo arakaraba intoki kuri kandagira ukarabe, ni igikara bigaragara ko avuye kuri tuwalete rwose agira isuku cyane .

Urujya n'uruza rw'abantu, abantu benshi bateraniye muri sare, bafite amacupa y'amazi, imbere yabo bafite ibikoresho imbere hari abari kubaha inyigisho, ni abantu bavanze higanjemo amabara y'umukara, mu myenda bambaye n'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu, ikigonderabuzima hejuru handitseho ngo gira ubuzima n'abaganga higanjemo abaganga bambaye amataburiya y'umweru, higanjemo abantu bambaye umutuku, barishimye cyane rwose bari kurya ifoto neza cyane.

Umukecuru urimo kuvoma amazi ku iriba afite ijerekani mu ntoki, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi, umukara ndetse n'umweru.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, aho abantu barwaye indwara zitandukanye bapimwa harebwa icyateye ubwo burwayi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye. Bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo.

Inyubako nini yahuriyemo abayobozi baturutse mu nzego zitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara umweru umuhondo n'ubururu aho biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore, ndetse n'urubyiruko, aho biga ku bibazo bitandukanye ndetse n'uburyo byashakirwa ibisubizo, birinda ndetse banarwanya ibyo bibazo.

Abagabo baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abafite imyenda y'umweru, umuhondo ndetse n'umutuku, bahagaze imbere y'inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Icyumba kinini kirimo umuganga ndetse n'abarwayi, ubona ko arimo kubitaho kandi abaha ubuvuzi bw'ibanze, kugira ngo batahe bafite ibisubizo by'ukuri, kandi bakize.

Itsinda ry'abantu bahuriye hamwe baje kwizihiza umunsi mukuru mpuzamahanga wo kurwanya kanseri bagira inama abantu yo kwirinda ndetse no kwivuza hakiri kare.

Abaganga bambaye impuzankano y'umweru, bigaragara ko bishimye kandi banezerewe harimo abambaye imyenda y'umukara ndetse n'abafite amazi n'impapuro mu ntoki.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kuganira barishimye cyane bahahuje urugwiro harimo abagore, harimo abagabo, harimo abasore bambaye neza barakeye rwose bari kwiyakira bafite ibikoresho imbere yabo, ni ibintu byiza cyane.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda y'umweru, umukara, umutuku n'umuhondo ubona ko bishimye.

Icyumba kinini kirimo umurwayi urimo kwitabwaho n'umuvuzi, aho amutera urushinge amusuzuma ndetse agira ngo arebe ibimenyetso agaragaza, nyuma yo kumutera urushinge.

Umwana arishimye cyane ari gutega amazi afite igikombe mu ntoki k'icyuma, aha hari uturobine tubiri yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ubururu.

Icyumba kirimo abagore babiri bambaye imyenda itandukanye, irimo amabara y'umuhondo, umutuku umukara n'umweru bicaye imbere y'abantu.

Umwana wambaye umupira w'umweru n'ikabutura y'umutuku, ufite amajerekani atatu mu ntoki arimo aravomesha amazi. Biragaragara ko uyu mwana yishimye kandi anezerewe.

Urujya n'uruza rw'abantu, bari ahantu barimo baravoma munaniro ariko bavomesha bari kuganira bahuje urugwiro umugore n'umugabo bahuje uruganiro kandi rwose rubona ko babyishimiye cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu basa nkabari mu kirori hari amahema, abantu batandukanye hari bicaye ku ntebe, hari abagabo rwose bitabiriye bambaye amakote y'umukara hari imodoka, hari idarapo, hirya hari ibiti bisa n'aho mu mumurima bari kuganira.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, uhagaze imbere y'abaturage abagezaho imbwirwaruhame ndetse ababwira uburyo bakiteza imbere binyuze mu kwihangira imirimo no gukora cyane.

Icyumba kinini cyateraniyemo abayobozi baturutse mu nzego zitandukanye z'ibanze ndetse n'izindi za leta, ubona ko biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye n'uburyo bashyira mu bikorwa imyanzuro yafashwe.

Umwana ari kuvoma amazi yambaye umupira w'umutuku arishimye ari guseka afite igikombe yateze amaso kuri lobine uraboona ko rwose afite inyota n'umwana w'igikara wirabura.

Commitment is Rising, Organization State commitment to Gender Equality. Ni ikirangantego kerekana Gender Equality, irimo mirongo itanu na gatanu ku ijana muri bibiri na cumi n'umunani, mirongo irindwi ku ijana muri bibiri na cumi n'ikenda, rindwi na gatandatu ku ijana muri bibiri na makumyabiri , rindwi n'ikenda ku ijana muri bibiri na makumya...

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, aho baza kugura ibicuruzwa badafite byiganjemo imboga arizo intoryi, inyanya, karoti n'ibindi.

Ikirangantego cya inisefu, hasi haciyeho akarongo, handitseho fo everi cadi, kireba buri mwana.

Icyumba kinini kirimo abaganga babiri barimo kuvura umukobwa wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umweru, ubona ko yishimye kandi anezerewe na serivisi yahawe.

Umwana urimo gukaraba n'isabune n'amazi meza, wambaye umupira wiganjemo amabara y'umukara n'ubururu. Ari gukarabywa n'umugore ufite indobo y'icyatsi.

Inyubako nini yahuriyemo abaganga ndetse n'abarwayi kugira ngo bafashwe ndetse basuzumwe ku ndwara basanganywe, bityo hafatwe ingamba zo kwirinda ndetse no gukomeza kunywa imiti.

urujya n'uruza rw'abantu ni abaganga bambaye imyenda y'akazi, bambaye ama baji bafite bambaye ga mu ntoki, barishimye cyane umwe yambaye rinete barirabura harimo babiri b'inzobe.

Urujya n'uruza rw'abantu hari umugabo uciye bugufi arasutamye ari kumwe n'akana bambaye imipira y'imihondo, umwana bari kumupima ibiro banambaye ipantaro y'ubururu.

Urujya n'uruza rw'abantu abana babiri bateze intoki ku gatembo kari kuvamo amazi, bari gukaraba intoki ubona ko babyishimiye rwose.

Inyubako nini yateraniyemo abayobozi baturutse hirya no hino mu gihugu bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umweru, umukara, icyatsi kandi ubona ko bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu, abantu barimo barakoresha inama umugabo yambaye ikote ry'umukara na rinete n'isaha ku kuboko y'umweru, nawe yambaye ikote bose barirabura bafite amacupa y'amazi imbere yabo.

Mu kigo nderabuzima hari urujya n'uruza rw'abantu baza kwivuza, hari umwana uryamye ku gitanda barimo baramuvura, bisa nk'aho bari kumufata amaraso, abaganga babiri barunamye umubyeyi we yicaye hirya ari kumureba uko bamuvura.

Urujya n'uruza rw'abantu, ni abantu batatu, hari umuganga bose baricaye, umuganga aricaye, yambaye itaburiya afite utwuma turimo turamufasha gupima abantu amaraso, umuvuduko w'amaraso, hari umugore ari gupima yambaye imyenda y'umutuku, hari n'undi wicaye hirya.

Umugore yambaye umupira ujya gusa umweru, yambaye igitenge kiganjemo umutuku, yambaye ingofero afite injerekani ebyiri, ari kuvoma amazi byose ni byiza cyane.

Icyumba kinini cyahuriwemo n'abantu batandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'umweru. Ubona ko baganira kandi bungurana ibitekerezo.

Urujya n'uruza rw'abantu, umugore arunamye yambaye inkweto z'umuhondo; ari kudaha amazi yambaye ipantaro y'umukara, ni igikara, hari umwana uri hakurya ye yicaye na we arimo aramureba uko adaha.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku iriba, bambaye imyenda itandukanye yiganjemo umuhondo, icyatsi, umweru n'ubururu, bafite ibikoresho byifashishwa mu kuvoma amazi n'indobo n'amajerekani.

Urujya n'uruza rw'abantu abantu bicaye bari mu tunama, hari bagore harimo abagabo harimo abasore bafite amazi, bari kwandika ingingo z'ingenzi kandi bari kuvuga ku bintu bibafitiye akamaro.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abana n'urubyiruko, bafite ibikoresho byifashishwa mu kuvoma, harimo amabasi, amajerekani n'amasafuriya.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda y'umweru, umukara, umutuku n'umuhondo, bafite amajerekani menshi baje kuvoma.

Inyubako nini irimo abantu bari kwa muganga bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu n'umukara, ubona ko harimo umukobwa uteruye umwana.

Urujya n'uruza rw'abayobozi batandukanye, bahuriye ku bitaro kugira ngo bige ku ndwara zitandukanye harimo izandura ndetse n'izitandura maze zishakirwe imiti.

Abana bambaye imyenda y'umweru, umutuku, n'umukara, bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi ubona ko bishimye kandi banezerewe, bityo bikabafasha kujyana amazi menshi.

Urujya n'uruza rw'abantu, ni abadamu batatu, barimo urimo uradaha amazi afite indobo ajya si ubururu, yambaye igiteyo cyiganjemo umutuku, arimo aravoma amazi kuri robine, abandi bari hirya barimo barakora igitembo cya robine.

Inyubako nini irimo urubyiruko, rwambaye imyenda yiganjemo; icyatsi, umweru n'umutuku, iruhande rwabo hari ameza ateretseho amazi yo kunywa kandi meza.

Icyapa kirangagantego unisefu foru evuri calidi, ni ikirangantego unisefu yita ku bana, aba aribo bose.

Urujya n'uruza rw'abantu ni abagore bageze kuri bane, umugore umwe aricaye barimo baramukorera barimo baramuvura, baramupima umurwayi, muganga amwicaye iruhande yambaye itabura y'umweru agatambaro k'umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu b'ababyeyi babiri, uwabya umwe yambaye agapfukamunwa k'ubururu afite menshi, ateruye umwana, umwana yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu. Uwo mubyeyi yambaye isaha afite ikigoma cy'umweru, umubyeyi uri inyuma yambaye agapfukamunwa k'umukara ateruye n'umwana.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu biganjemo abagabo, abagore abana ndetse n'abaganga barimo kubitaho kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Ikirangantego "World Health Organization" ni ikirangantego cyerekana World Health Ku isi yose.

Inyubako zitandukanye zifashishwa mu nzego za leta baha serivisi abaturage, kugira ngo batagira icyo baburana ubuyobozi kandi babikunze.

Urujya n'uruza rw'abantu, ni abantu batatu, harimo umuganga wirabura, wambaye itaburiya y'umweru n'igitenge cyiganjemo umuhondo, ubururu, hari umugore uteruye umwana nawe wirabura, uwo mwana barimo baramuha umuti, rwose bamwitayeho cyane, ubuvuzi bwuhahwe.

Ni umwanawana wishimye ari guseka yambaye ikanzu irimo utudomo tw'umukara ikanzu y'umweru, hasi hari utudanteri tw'umukara ari koza indobo hirya hari izindi ndobo ebyiri.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara atukura ubururu n'icyatsi hamwe n'umweru biragaragara ko bari kwiga ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye.

Ihuriro ry'abayobozi baturutse mu mpande zitandukanye z'igihugu bambaye imyenda yiganjemo amabara' y'umukara, ubururu iruhande rwabo hateretse za mudasobwa n'ibindi bikoresho byifashishwa mu itumanaho.

Urujya n'uruza rw'ababyeyi bicaye ahantu mu cyumba, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umuhondo, umukara n'icyatsi. Hari umuganga uri kwita ku mwana uhicaye.

Umugabo muremure wirabura, ari guseka ufashe ku njerekani bisa nk'aho ari kuvoma, yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, arimo arareba cyane rwose arishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu ni abanyeshuri benshi, abanyeshuri bambaye imipira ya yunisefu, abanyeshuri barirabura turabona ko bishimye cyane rwose, bari kwifotoza bambaye imipira isa bose ya yunisefu.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu, umukara, umuhondo ndetse n'icyatsi ubona ko bishimye.

Urujya n'uruza rw'abana barimo kuvoma amazi, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu n'umukara, bisa nkaho bishimye kandi banezerewe.

Ihuriro ry'abana batandukanye bicaye ku musambi ubona ko bahurijwe hamwe n'ikintu gikomeye kandi gituma bicara bakaganira ndetse bakungurana ibitekerezo.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi bafite ibikoresho birimo indobo ibasi ndetse n'ijerekani, ubono ko ko bishimye kandi banezerewe.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagore, abagabo ndetse n'abana bambaye imyenda irimo amabara y' y'umukara umweru n'umutuku.

Urujya n'uruza rw'abantu barasa ni abanyeshuri, bari kumwe n'abayobozi babo, umuyobozi wabo yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, abanyeshuri bose bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'umukara hirya hari n'undi mugore w'inzobe.

Ihuriro ry'ababyeyi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umutuku, umuhondo n'umweru, barimo kuganira ndetse bungurana ibitekerezo.

Urujya n'uruza rw'abantu, ni mukecuru ari kumwe n'abana benshi, bari kureba bafite ikintu barimo barareba urabona ko rwose abana bakurikiye cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu bafite icyapa, barishimye cyane bari kwifotoza, harimo abambaye imipira y'umweru, harimo abambaye amapantaro y'ubururu, harimo abambaye imyenda y'imituku, amabara yose aravanze.

Urujya n'uruza rw'abantu, abantu benshi umwe ari imbere ari gutanga inama yiganjemo amabara y'umuhondo nayu mukara harimo n'ubururu, gusa urabona ko bishimye bari kuvuga ku ngingo yabateza imbere.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu nama, gusa uw'imbere wambaye ijire basa nkaho batari kumvikana, yari arimo aratongana, abandi nta kibazo bakurikiye inama rwose, imyenda bambaye yivanzemo umweru n'umuhondo.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'umuhondo, ubona bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko zitandukanye kandi zibafitiye akamaro.

Inyubako nziza cyane, inzu ariho amabara y'umuhondo yubatse neza ku buryo bushimishije, yubu hariho amadirishya meza, y'amabati meza, hariho lankete.

Ihuriro ry'abana baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Umugore w'igikara ateze agatambaro k'umuhondo, ijipo y'igitenge irimo amabara y'umutuku ndetse n'umukara n'umweru, n'imyamba yambaye agapira kajya gusa ubururu ni igikara arikureba hirya yambaye isaha ku kuboko y'umukara aricaye.

Urujya n'uruza rw'abantu harimo abana harimo abagore harimo abagabo bari guseka rwose barishimye cyane, bazamuye ama darapo y'u rwanda bari kwamamaza Paul Kagame perezida wacu.

Urujya n'uruza rw'abantu ni abanyamakuru ba arabisi, umugore w'inzobe yicaye, afite mikoro yambaye ikote ry'ubururu, umugabo yicaye hirya yambaye ikote ry'umukara n'agapfukamunwa.

Urujya n'uruza rw'abantu, batatu bambaye masike bose, babiri bambaye ubupfukamunwa bw'ubururu, undi yambaye agapfukamunwa k'umukara kariho amagambo, barirabura, ni abagore bose, bambaye imyenda yiganjemo umukara n'umweru.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mubi bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, icyatsi, umukara, n'umuhondo, ubona ko bishimye.

Umugore wicaye mu nyubako yipfumbase, biragaragara ko afite umuntu ategereje kandi amutegerezanyije amatsiko menshi.

Umukecuru wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, yicyatsi, umuhondo n'umweru wicaye iruhande rw'inyubako ikorerwamo ibicuruzwa bitandukanye.

Umugabo uhagaze ahantu hameze nk'aho ari mu rugo, umugabo w'igikara usa nabi muremure, urugero yambaye ishati yiganjemo umuhondo n'umutuku, ni igikara.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara, umutuku, ndetse n'indi myenda irimo amabara y'icyatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu, abantu benshi bakorera arabisi harimo abicaye, harimo abahagaze higanjemo higanjemo amabara y'umutuku nay'ubururu, harimo n'umuhondo rwose urabona y'uko bishimye cyane bitabiriye inama.

Abana bambaye imyenda y'umweru, umukara, umutuku, n'icyatsi bahuriye hamwe kugirango bishime kandi basabane bityo bikabafasha kunguka n'ubumenyi.

Umukobwa w'imibiri yombi afite agasatsi ka natirere karinganiye, yambaye agapira k'umutuku, yambaye agakanzu k'ubururu ari guseka rwose arishimye cyane.

Umugore arahagaze hirya ye hari icyapa cya kiri cyari kiriho ngo patanazi ini herifu, umugore yambaye agakote k'ubururu yambaye agashati k'umweru, n'umutuku harimo n'umweru gusa n'agakote karimo n'umutuku ni inzobe barishimye cyane ari guseka.

Umuntu ufite umusatsi mwiza birasa nkaho wagira ngo arwaye mu mutwe, afite uburwayi bwo mu mutwe, afite ibintu imbere bimeze nk'imyanda by'ibishashi arimo gupakira, yambaye igitenge ni umuntu w'umugabo, ni igikara.

Umugore rwose wihebye azirikiye ku giti nk'umunyururu, yicaye ku kantu kameze nk'umusambi, hirya y'igiti hari umufuka cyanyanditseho amagambo, umugore ni igikara yambaye umupira ujya gusa umuhondo, igitenge cyiganjemo amabara y'ubururu n'umweru n'umuhondo.

Umunyamakuru rwose yri kuvuga neza yitaye ku makuru y'abanyarwanda neza, yambaye rinete ni igika hajuru handitseho ngo meto helifu, ewayanesi campeyini.

Umugore uhetse umwana iruhande rwe hahagaze undi, arimo arateka igikoma kugira ngo agihe abana, maze babashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umugabo w'inzobe usa nk'aho ari muremure, ari nko mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu, ari guseka arishimye cyane, yambaye agapira k'umuhondo, arishimye cyane ku buryo butangaje.

Umukecuru wambaye imyenda yiganjemo ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, wicaye ku ntebe, ubona ko atetse ibiryo byinshi.

Umugabo wambaye amapingu uri imbere y'abaturage, yicaye hagati yabo ubona ko afite ibyaha bigiye bitandukanye bityo bigatuma bamwambika amapingu.

Urujya n’uruza rw’abantu, ni abantu babiri. Umugore n’umugabo, umugore arirabura ni imibiri yombi. Umugabo nawe ni imibiri nyombi, umugore afite mikolo ari kuvuga. Bambaye imyenda yiganjemo ubururu. Umugabo yambaye umukara, umugore yambaye imyenda yiganjemo umuhondo.

Ikirangantego cya Rwanda Mental Health Student Association, RMHNSA, hasi ni Mental Health, ahandi harimo akantu hagati k'umukara na two Health.

Urujya n'uruza rw'abasore, bambaye imyenda yiganjemo umukara n'ubururu, bicaye ku ntebe nziza z'imituku n'umuhondo. Biragaragara ko ari urubyiruko rwahuriye mu nyubako nini.

Urujya n'uruza rw'abantu, abantu baricaye barishimye, intebe nziza cyane rwose, imbere hari umuntu uriho urabaha inama, bari mu nama imbere hari uri kubabwira inama, hari ekara imbere, ni abantu bose bitabiriye inama cyane bari kuvuga ku ngingo yabateze imbere.

Umusore wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ufite ubwanwa bwinshi, wicaye mu nyubako nini irimo ibikorwa ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Icyumba cyateraniyemo abayobozi b'inzego zitandukanye harimo umwarimu, gitifu n'abandi baje gutanga ibihembo ku bana bitwaye neza.

Urujya n'uruza rw'abantu ni abantu babiri umubyeyi ari kumwe n'umwana bose bafite uburoso bari kwiborosa, bafite umusatsi mwinshi ni inzobe, umwana ari mu kigero cy'imyaka itanu, umugore ari kumwereka ukuntu umwana ashobora kwiborosa amenyo agasa neza. Bambaye amasengeri y'umweru bose.

Umwana usa nkaho ari mukuru, afite umusatsi, ni inzobe, yambaye amaherena, yambaye akapira k'umuhondo, ari kureba hejuru arasamye, atamiye akayiko kariho nk'umuti, muganga ari kumuha, muganga yambaye ga z'umweru.

Umukobwa mwiza, ufite amenyo y'umweru, wambaye inkweto nziza, n'imipira yiganjemo amabara y'umweru n'umuhondo, ufite imisatsi myiza kandi miremire.

Ku kigonderabuzima hari umurwayi uri kwa muganga, arasamye bafite utwuma, abaganga barimo baramukoza mu kanwa, kugira ngo bamuvure ishinya ndetse banamukure n'iryinyo basanze rirwaye, abaganga bambaye iga z'umunyu.

Inyubako nini irimo umuganga n'umurwayi, yiganjemo amabara y'umweru, umukara, n'ubururu ubona ko umurwayi yitegereza muganga.

Umuganga uri kwita ku murwayi, iruhande rwe hari abandi baganga baje kumufasha kugira ngo basuzume neza barebe ibibazo afite bigiye bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bishimye cyane rwose, inyuma hari icyapa cyanditse T enye ziri mu kabara k'ubururu, abagabo imbere bicaye imbere, abagore na bo barahagaze barishimye cyane biganjemo amabara y'umweru n'umukara.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, ubuvuzi, ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa biberamo, kuko ubona hari ibyumba byinshi kandi byiza.

Uburwayi buba bukomeye, hari umuntu urwara amenyo, nohe ngewe ntabwo nari nzi yuko iryinyo iyo urikuye riza ari rinini kuruta uko ryanganaga, hano hari umuntu ufite amenyo, bamukuye iryinyo bakoreshe akuma ariko hari iryinyo rimuruta.

Umugabo ufite akadodo arimo gusukura amenyo ubona ko yishimye kandi anezerewe, gusukura amenyo ntabwo ari ugufata uburoso gusa, ahubwo ni ugukoresha n'akadodo kugira ngo imyanda ishire mu menyo.

Urujya n'uruza rw'abantu, abaganga baricaye, bafite kariya gakoresho kaba karimo amenyo, bari kwiga gukura amenyo, umuganga yambaye isaha ku kuboko, bafite n'utwuma barimo barakoresha.

Umukobwa urimo kwireba mu ndorerwamo, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo ndetse ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Umusore w'imibiri yombi, ufite ubwanwa bwinshi n'umusatsi muke, ari kwitabwaho n'abaganga bamusukurira amenyo ndetse yishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu, ni abanyeshuri bishimye cyane bari kwiborosa, isuku y'amenyo ni ingirakamaro ku muntu, bambaye ishati irimo umurongo, bambaye amakabutura ajya gusa kaki, bambayemo imipira y'ubururu kandi bose bari kwiborosa.

Abaganga barimo kwita ku barwayi, bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru n'ubururu. Ni icyumba kinini bakoreramo, cyiganjemo ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byifashishwa na muganga kugira ngo asuzume indwara abarwayi bafite, ni ahantu hagari ubona ko hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu n'abanyeshuri, bafite uburoso bari kwiborosa har'abafite ubw'umuhondo har'abafite ubw'ubururu hari n'abafite bw'icyatsi, bambaye imipira y'ubururu bose barirabura.

Umugore afite umusatsi mwishi, ni inzobe, ari kwiborosa, urabona ko yishimye cyane, yambaye isengeri y'umweru, ari no kwireba mu kirahure.

Umuganga uri kwita ku murwayi wambaye isengeri y'umukara, hirya ye hari abandi bantu bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru ndetse n'ubururu, iki cyumba ni icyumba kinini ubona ko gitangirwamo serivisi nyinshi.

Umwana araryamye, yogoshe orodineli, umwana w'inzobe, arimo arareba hejuru, bagiye kumukora mu kanwa, abaganga bagiye kumuvura ari ku kigo nderabuzima, bafite utwuma bambaye na ga z'umweru.

Icyumba cyateraniyemo abayobozi batandukanye, harimo abarimu ndetse n'izindi nzego z'ibanze, aho bafasha umwana wambaye umwenda w'icyatsi bamuhaye ibihembo.

Umugabo ufite amenyo y'umweru, urimo gucishamo akadodo kugira ngo amaremo imyanda. Gukoresha uburoso gusa ntabwo biba bihagije kuko butamaramo imyanda yose itandukanye.

Umugabo ari mu bitaro, urabona ko harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, afite marikeri mu ntoki ari kwandika, afite n'urupapuro imbere ye, yambaye agataburi k'umweru gateye ipasi keza rwose, ni umugabo w'imibiri yombi afite agasatsi gakeya.

Umwana wambaye ishati y'umweru ufite uburoso bwifashishwa mu gusukura amenyo kugirango hirindwe indwara zitandukanye zituruka ku mwanda .

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo umweru, umuhondo bafite terefone nziza y'umukara ubona ko bishimye.

Icyumba kinini kirimo abasaza n'abakecuru bafite umusatsi w'imvi bicaye iruhande rw'ameza manini, ubona ko baganira kandi bishimye.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo abaganga bambaye imyenda y'ubururu, umweru ndetse n'andi mabara atandukanye, bafite imisatsi myinshi kandi myiza.

Ubuvuzi ni kimwe mu nkingi za mwamba zifitiye igihugu akamaro, aho abantu benshi bahabwa serivisi, bityo bigatuma baramba, kandi birinda indwara zitandukanye.

Icyumba kirimo umusaza uri kumwe n'umugore, barimo barafata amafunguro aya mafunguro yiganjemo imbuto ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye, birimo amabara y'umuhondo n'umutuku.

Umusaza rwose afite amafunguro ateye ubwuzu, yambaye ishati irimo uburongo bw'umweru, harimo umutuku, ni umusaza w'imvi w'inzobe, afite ibiryo ari kurya arimo arabishyira ku isahani y'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu baricaye abakecuru, abasaza bari kuganira ku ngingo y'abagirira akamaro bava inyota yiganjemo umuhondo n'umweru bakutse rwose urabona y'uko babyishimiye cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu bukwe, biganjemo abasaza bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, umukara, ubururu, ndetse n'umuhondo, ubona ko bishimye.

Abagore babiri mukuru umwe yambaye umupira w'umwerusatsivge undi umukecuru amu iruhande apaneti mukecuru wv barishi bariho baraseka bararwarira imbere' ibyamuteye bari gutegura ibyo bite.

Urujya n'uruza rw'abantu umusaza wicaye afite imvi bari kumwe n'umuganga arimuha imiti umusaza afite ikirahure cy'amazi muganga urabona ko ari kumuha imiti abyishimiye rwose cyane.

Umukecuru ufite indangururamajwi mu ntoki, uhagaze imbere y'abayobozi yambaye imyenda y'ubururu n'umweru, arimo gutanga imbwirwaruhame yateguriye abaturage.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu uri kumwe n'umukecuru ufite imisatsi myinshi ubona ko bicaye baganira, ndetse banahuza ibitekerezo ku buryo kubona bishimye kandi bameze neza.

Urujya n'uruza rw'abantu ku kigo nderabuzima umusaza yicaye mu igare, ubonako ari imibiri yombi, ari kumwe n'umuganga w'inzobe yambaye imyenda y'ubururu arimo aramugendesha ngo amenyere kugenda.

Umuganga urimo gusuzuma umukecuru indwara, wambaye imyenda irimo amabara y'umukara n'umweru, aho amugira inama, ndetse akamuha urutonde rw'imiti azajya afata.

Abagabo babiri baricaye umwe ni umuganga undi ni umusaza barirabura, afite igitabo asa nk'aho ari kumusobanurira gusa umurwayi bisa nk'aho yagiye kwivuza.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi barishimye cyane rwose, higanjemo abagore abagabo, higanjemo amabara y'umutuku ndetse n'uy'umuhondo harimo n'umweru, urabona ko bishimiye cyane rwose bazamuye amaboko.

Umukecuru yicaye ahantu arimo aritekera bisa nkaho ari igikoni cye ariko kiri hanze kiriho udushyiga dutatu ari guteka agasafuriya gapfundikishije akandi, umukecuru aricaye yambaye agatenge k’umuhondo agatambaro k'umweru ateze mu mutwe ndetse n’ishati y'umweru.

Icyumba kinini cyateraniyemo umuganga ndetse n'umurwayi, aho amufasha hagendewe ku bimenyetso agaragaza, bityo bikamufasha kumuha imiti ndetse n'ubujyanama ku ndwara afite.

Urujya n'uruza rw'abantu, barimo barasarura, ubuhinzi ubudufitiye akamaro kenshi cyane mu buzima bwacu, ni abagore, bafite igitebo bari gusaruriramo, bambaye imyenda yiganjemo umutuku n'ubururu.

Urujya n'uruza rw'abantu, ni umugabo wicaye ari kumwe n'umugore, umugore w'umuganga, umugore ni inzobe, umugabo ni imibiri yombi, umugabo yambaye ishati y'umutuku, ipantaro y'umukara, baricaye, bari kuganira, barishimye cyane, bahuje urugwiro.

Umukecuru uri kumwe n'umwana we, barimo gukora imyitozo ngororamubiri, bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umweru ndetse n'ubururu.

Urujya n'uruza rw'abantu umurwaye, umusaza muremure w'igikara ari kumwe n'umuganga w'inzobe, muganga ari kumufasha kugenda agendera ku cyuma, umugabo yambaye ishati irimo uburongo harimo umweru ndetse n'ipantaro ijya gusa umweru.

Umukecuru w’ inzobe ufite imvi nyinshi yambaye rineti, umukecuru munini afite igikombe cy’ amazi, urabona ko atameze neza ntabwo yishimye.

Umugabo uri kumwe n'umugore we, barimo kugenda bishimye. Bari mu nyubako nini yiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'amabara y'umuhondo.

Inyubako nini yahuriwemo n'abayobozi batandukanye harimo umukecuru wambaye umupira w'umutuku n'umukara uri kumwe n'umusaza wambaye indorerwamo z'amaso.

Inyubako nini yahuriwemo n'abantu batandukanye, harimo icyumba kirimo umuganga n'umurwayi, ubona ko yitaweho kandi azahita akira vuba.

Inyubako nini yateraniyemo umugabo n'umuganga urimo kumuvura amwereka imyitozo ngororamubiri kugirango ngo asubire ku murongo kandi yizere ko yamaze gukira.

Urujya n'uruza rw'abantu bagabo babiri bari gukora siporo rwose ubona ko babyiyumvamo barishimye cyane bose bambaye amashati y'umweru undi umwe yambaye ipantaro y'umukara harimo n'akanwa ka gafi k'umweru undi yambaye ipantaro y'umukara harimo n'umweru afite icupa ry'amazi.

Umukecuru n'umusaza bari kureba muri terefone bicaye ku ntebe iruhande rwabo hateretse ameza manini bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, n'umweru, n'umukara.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru, bafite imisatsi myinshi, bicaye iruhande rw'ameza kandi ubona ko bishimye banezerewe.

Urujya n'uruza rw'abantu, umugabo muremure, n'imvi, imibiri yombi, ateruye umwana mwiza w'inzobe, bose barishimye ari kumukinisha yambaye amabara yiganjemo umweu.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi, amuha ibinini ndetse amufasha kugira ngo akire vuba bityo asubire mu buzima busanzwe, ameze neza kandi yishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu, umugore w'inzobe, mugabo yambaye umupira w'umweru, ni imibiri yombi, barishimye, bari guseka, bari ku meza, bari gusangira, bari kurya ibiryo byiza rwose biteye apeti.

Umusaza wambaye imyenda y'ubururu, urimo kwitabwaho n'umuganga kugirango amusuzume indwara afite bityo bimufashe kumenya uburyo azajya afata imiti mu buzima bwa buri munsi.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye hamwe bambaye imyenda yiganjemo umutuku, umuhondo ndetse n'umukara. Umuganga wambaye agapfukamunwa uri kwita ku mukecuru.

Urujya n'uruza rw'abantu ni abantu babiri, umugabo w'umusaza ubona ko ari imibiri yombi n'umusore w'inzobe, bambaye imyenda yiganjemo umweru, bafite igikombe imbere, barishimye, bari gusoma igitabo.

Umuforomo arishimye cyane ari mu bitaro ari kumwe n'umurwayi urabona ko ari kumuganiriza, umurwayi ni inzobe afite inkoni ni umugabo munini ubyibushye yambaye umupira w'umweru, umuforomo yambaye itaburiya ijya gusa ubururu ni inzobe barishimye cyane rwose.

Umubyeyi ukuze yambaye rinete afite umusatsi mwinshi yambaye imyenda y'imihondo afite agacupa mu ntoki k'umweru asa nk'aho ari arasuka imiti ku ntoki arishimye cyane.

Icyumba kinini kirimo umuganga n'umurwayi, aho amukoresha imyitozo ngororamubiri, kugira ngo asuzume neza ikibazo afite.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu kirori, ikirori kirashyushye umukecuru n'umusaza rwose bakenyeye babyambariye umukecuru afite imvi, umusaza nawe afite imvi, umusaza yambaye ingofero n'abandi bantu nyuma.

Icyumba kinini cyahuriyemo abasaza ndetse n'abakecuru, aho biga ku nsanganyamatsiko zitandukanye, ubona ko bashaje kandi bakeneye umuntu ubitaho.

Urujya n'uruza rw'abantu, abantu bari muri siporo, ni abagore harimo n'abagabo, bambaye babiri, batatu bambaye imipira y'ubururu undi yambaye umupira w'umweru undi yambaye umupira w'umukara, bari muri siporo rwose baratera intambwe barabyiyumvamo.

Umuganga urimo gukoresha umurwayi imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kwirinda ndetse amuha n'inama y'uburyo yakwirinda maze akagira ubuzima bwiza.

Icyumba cyateraniyemo umuganga n'umurwayi aho umusaza arimo kwitabwaho ndetse asuzumwa indwara afite kugira ngo bamuvure.

Umugabo uri kumwe n'umwana bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu ni inyubako nini ubona ko ari nziza kandi irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bikenerwa mu buzima bwa buri munsi.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi zubuvuzi, kirimo umusaza uryamye ku gitanda, wambaye umupira w'umweru, ubona ko arembye kandi akeneye ubufasha bwihuse.

Abantu babiri baricaye, umukecuru w'imvi nyinshi n'umusaza ni inzobe bose, umukecuru yambaye impeta, umusaza yambaye agakomo ku kuboko, umukecuru afite urupapuro bisa nkaho arimo aramwereka nk'amabwiriza cyangwa kumwereka ibyanditseho barishimye.

Umugabo uri kumwe n'umugore we bambaye imyenda yiganjemo amabara y’umuhondo, umweru, umukara n’ubururu, ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Abagabo babiri n'umugore umwe, umugabo n'umugore bafashe umusaza, yambaye ipantaro y'umukara, w'imvi, w'inzobe, asa nkaho arwaye atabasha kugenda, ari ku kigo nderabuzima.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi baricaye bakoze ikiziga bari gukora inama iberekeza ku iterambere hari izuba ryinshi rwose ryabishe harimo abantu harimo abakecuru, harimo abasore, harimo abagabo higanjemo amabara y'ubururu, amabara y'umuhondo, amabara y'umutuku.

Inyubako nini yahuriwemo n'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru, umuhondo n'umutuku ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Urujya n'uruza rw'abantu bambaye imipira y'imyeru abenshi, abandi bambaye umukara yiganjemo umweru n'umukara, bityo hari umupolisi n'umusekerite uhari hirya.

Icyumba kinini gikorerwamo inama zitandukanye kirimo umugabo wambaye ikoti ryiza n'ishati y'umweru urimo kugeza insanganyamatsiko zitandukanye ku baturage.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umutuku, umukara, umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Ni ikirangantego kwamamaza bya RBC n'uburyo twakwirinda HIV guideline for HIV, prevention Treatment and care in Rwanda. Edition ni bibiri na makumyabiri na kabiri.

Urujya n'uruza rw'abantu n'abagabo imbere babiri, hari ufite machine imbere ye a afite micolo ari kuvuga, ari gutanga inama sitopu de mabage vayirasi ni uguhagarika virusi ya mabage abandi barimo bara kurikira inama.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, umuhondo n'umweru, bari mu cyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye, yaba iby'ubuvuzi ndetse n'ubucuruzi.

Icyumba kinini kirimo umugabo wambaye agapfukamunwa n'umupira w'ubururu, urimo guterwa urushinge ku kaboko kugira bamukingire indwara zitandukanye kandi abashe gukira.

Urujya n'uruza rw'abantu n abantu benshi bitabiriye inama harimo umugabo uri gutanga inama imbere afite mikoro yambaye ikote rijya gu gusa umukara n'abandi baricaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku barakurikikira inama bari kuvuga ku byabateza imbere n'ibyateza igihugu imbere.

Ikinyamakuru cyangwa urupapuro hariho umwana umeze nk'uri kurira w'inzobe arasamye handitseho amagambo ngo “Medecines We Can Trust A Call to Safeguard Quality”.

Ikirangantego eni esi di nanikominikebo dizizi. Ikirangantego cyerekana indwara zitandura, hariho n'akabike.

Abaganga bari ku kigo nderabuzima bambaye masike, bambaye imyenda y'imyeru bose, hari undi uri inyuma yabo yambaye umwenda ujya gusa move bambaye n'upfukamunwa bose.

Urujya n'uruza rw'abantu, ababyeyi bafite impinja baribarutse, barishimye cyane bahuje urugwiro rwose bari kuganira, harimo amabara yiganjemo umutuku n'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu baturuka hirya no hino, biganjemo abagabo n'abagore, bambaye imyenda irimo umweru, umukara, n'ubururu, bigaragara ko bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bambaye amakoti meza ndetse n'imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umukara n'icyatsi.

Icyapa cya Rwanda national community health policy haramagambo menshi ariho ma sarama topic hariho amategeko ndetse hariho na email.

Urujya n'uruza rw'abantu, ni abantu bageze kuri batandatu, harimo abaganga babiri, hari umuntu uryamye bari gukorera ubutabazi bw'ibanze, bambaye masike baririnze, bose urabona ko bari kuvurana ubuhanga.

Urujya n'uruza rw'abantu ni abagabo babiri, bari gusuhuzanya rwose barishimye, umwe afite urupapuro mu ntoki rumeze nk'urupapuro rw'ishimwe, bambaye amakote ajya gu gusa ubururu, umwe yambaye rinete, bose ni imibiri yombi.

Urujya n'uruza rw'abantu na mwarimu ari kwigisha abana, abana bicaye ku ntebe bari kumukurikira handitseho ngo tekingi mento herifu ishuzi ini Rwanda. uwo mugabo yambaye ishati y'umweru n'ipantaro ijya gusa umukara, arirabura n'abana bambaye inifomu.

Icyumba kinini cyateraniyemo abayobozi batandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara, bahagaze imbere y'ikirarango kinini cyiganjemo amabara y'ubururu.

Urujya n'uruza rw' abantu bari mu nama, barishimye cyane barakurikiye. Higanjemo amabara y'umweru ndetse n'ay'umukara urabona ko rwose bakurikiye baranezerewe cyane

Icyumba cyateraniyemo abayobozi batandukanye bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru, ubururu ndetse n'umutuku, bari mu nyubako nini ubona ko ari nziza.

Urujya n'uruza rw'abantu, abanyeshuri benshi bari kuvuga ngo twirinde kanseri y'ibere tuyisuzumishe hakiri kare kuko ivurwa igakira, nicyo cyapa bafite bambaye imyenda y'umweru hejuru, hasi ni umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi ni abaganga bambaye masike z'ubururu, bambaye amakanzu y'ubururu, bambaye n'ingofero, harimo n'ibikoresho nka televiziyo bafite n'ibikoresho bari gukoresha.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye aho abantu baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu bahurira bagafashwa ndetse bagataha bishimye bitewe na serivisi nziza bahawe.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje kwivuza indwara z'amoko atandukanye. Ni inyubako irimo amabara y'umweru n'umuhondo.

Inyubako nini irimo ibitanda bitandukanye, bijyamwaho n'abarwayi barembye, aho abarwayi baturuka hirya no hino mu bigo bindi bahurira, bakitabwaho ndetse bakavurwa bagakira.

Icyumba kirimo umugore uteruye umwana, iruhande rwe hagaze umuganga wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'ubururu, arashaka guterura umwana kugira ngo amusuzume, amuhe imiti.

Inyubako nziza cyane ishimishije, hariho inzugi zigezweho, amadirishya agezweho, purafo igezweho, amatara meza cyane ishimishije n'amakaro hasi.

Umugabo n'umugore bicaye ku ntebe bambaye imyenda isa irimo amabara y'ubururu n'umuhondo, ubona ko baganira kandi bahuje urugwiro.

Icyumba kinini kirimo ibitanda bigiye bitandukanye, higanjemo amabara y'umuhondo, umweru, n'ubururu. Ni ahantu ubona ko ari heza, kandi hakorerwa ibikorwa bijyanye n'ubuvuzi.

Urujya n'uruza rw'abantu ku kigo nderabuzima, hari abarwayi bari mu tugare, hari abaganga bari kubarebera, muganga yambaye ipantaro y'umweru n'ikote ry'umweru bambaye masike bari kwirinda icyorezo rwose, barishimye cyane bari kuvura abarwayi neza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, higanjemo ibikoresho by'ikoranabuhanga, bikoreshwa n'abaganga kugira ngo basuzume neza indwara abarwayi bafite.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru, n'umukara irimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, ndetse ameza manini atetsemo bityo bigafasha abarwayi gukira vuba.

Inyubako nini irimo ibicuruzwa bitandukanye, byiganjemo imiti ikoreshwa n'abantu baje kuyigura, aho bayisanga mu nzu ikorerwamo ibicuruzwa by'imiti.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi, iruhande rwayo hari amabara y'ubururu, umukara n'icyatsi.

Icyumba kinini cyiganjemo amabara y'umweru n'umukara, gitangirwamo serivise zitandukanye z'ubuvuzi. Ni ahantu heza, harimo amabara y'umuhondo ndetse n'umweru.

Mu kigo nderabuzima, mbega ikigo nderabuzima gishimishije! Harimo ibitanda by'abarwayi bishimishije, harasa neza Mana yanjye! Ni ahantu hakeye rwose, hari umuganga rero urimo uragenda, ateye intambwe ari kugenda, yambaye inifomo ijya gusa ubururu, ipantaro n'ishati.

Icyumba cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bahuriye kwa muganga kugira ngo basuzumwe indwara maze bahabwe ubufasha bw'ibanze.

Ibitaro bya Kabgayi bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho urujya n'uruza rw'abantu bahurira baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bagahabwa ubufasha ndetse bagataha bishimye.

Inyubako nini irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byiganjemo amabara y'umutuku, umweru n'ubururu. Ni ibikoresho ubona ko bikomeye, kandi byiza. Bigatuma abaganga babifashisha mu kuvura abarwayi ndetse no kubasuzuma.

Inyubako nini irimo amabara y'umweru n'umuhondo iruhande rwayo hateye indabo z'umuhondo n'icyatsi ubona ko zisa neza kandi zikeneye umuntu uzitaho.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, mu kibuga kinini kirimo imodoka. Byiganjemo amabara y'umukara, umuhondo ndetse n'umweru.

Umwana ari mu kagare, ni ahantu ku kigo nderabuzima, ari mu kagare yaravunitse, yambaye imyenda ijya gusa ubururu, ni igikara, ni ahantu hari amapave, hirya hari inyubako, hari ikigega, hari ishate nziza n'indabyo zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bahuriye ku ivuriro kugira ngo basuzumwe indwara ndetse bahabwe ubufasha kugira ngo babashe kuvurwa.

Icyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, cyiganjemo ibikoresho byo kwa muganga ndetse byifashishwa mu kuvura abarwayi batandukanye.

Uruza rw'abantu ku kigo nderabuzima hari abarwayi, hari uhagaze arimo arazinga supanete, yambaye umupira w'ubururu yambaye umukandara w'umukara n'ipantaro y'umukara ni umugabo muremure.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye kirimo umuganga uri kunyuza umurwayi mu cyuma kugira ngo amusuzume arebe ikibazo afite maze amuhe imiti.

Icyumba kirimo umurwayi uryamye ku gitanda, iruhande rwe hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi. Icyo cyumba higanjemo amabara y'umweru, umukara n'umuhondo.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo n'umweru, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, iruhande rwayo haparitse imodoka nini kandi nziza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi iruhande rwayo haparitse imodoka yiganjemo amabara y'umukara n'umweru aho itwara abantu bakagerayo vuba

Abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bahuriye ku nyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abagore batandukanye bahurira bagahabwa ubufasha ndetse n'ubuvuzi bw'ibanze.

Urujya n'uruza rw'abantu, ku kigo cy'amashuri, umuganga yagiye gutanga inyigisho, agiye gutanga inyigisho z'uko wakwiborosa kandi ukibororosa neza ari kwigisha umwana ari kumwerekera hari abagabo babiri n'abagore babiri ndetse n'umwana, umuganga wambaye itaburiya umwe umugabo muremure.

Akarere ka Nyarugenge, karimo ivuriro ryiza, ikigo nderabuzima, hari jaride, nziza, hari amapave, hari inyubako nziza isiza amarangi y'umweru.

Inyubako nziza cyane zishimishije, harimo jaride nziza, harimo indabyo nziza, harimo itsina, hariho amadirishya meza, hariho amabati y'umutuku. Rwose ni inyubako igezweho cyane.

Icyumba kinini gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga cyiganjemo amabara y'umweru n'umukara. Inyubako nini ubona ko ari nziza kandi ikeye.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye, nk'ameza, intebe, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, ubona ko higanjemo amabara y'umweru n'ubururu.

Inyubako nini irimo ibicuruzwa bitandukanye byifashishwa muri siporo, aho abantu babigura baturutse mu mpande n'impande, maze bigatuma bagira amafaranga menshi.

Urujya n'uruza rw'abantu basa nk'aho bari muri banki, hari abantu bagera kuri bane, higanjemo amabara y'ubururu mu myenda bambaye n'umukara bari kureba ikigiye gukurikiraho.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, isakaje amabati y'ubururu, aho abantu baturuka mu bice bitandukanye bahurira, bagahabwa serivisi nziza kandi inoze.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, ubucuruzi ndetse n'inama z'abayobozi baturutse hirya no hino mu gihugu, aho bahurira hamwe bakaganira ndetse bungurana ibitekerezo.

Icyumba kinini cyateraniyemo abayobozi batandukanye, cyiganjemo amabara y'ubururu, icyatsi n'umweru. Ku gitanda haryamye umurwayi uri kwitabwaho n'abaganga.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byiganjemo ubucuruzi, ubuvuzi ndetse n'izindi serivisi zitangwa n' inzego za leta mu guteza imbere abaturage.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi bw'amaso, aho abantu barwaye, baturutse hirya no hino bahurira, bagahabwa ubufasha bw'ibanze.

Inyubako nini irimo icyumba kivurirwamo abaganga biganjemo amabara y'ubururu, umweru n'umukara ndetse n'ibishushanyo bitandukanye.

Inyubako nini isakaje amabati y'umutuku, yubakishije amatafari ahiye ndetse iteye amarangi yiganjemo amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'umweru.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru ndetse ikorerwamo ibicuruzwa by'amoko atandukanye harimo ameza, intebe ndetse n'utubati.

Urujya n'uruza rw'abantu ku kigo nderabuzima, hari abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru n'ubupfukamunwa, bari kureba hirya hari ibikoresho byo kwa muganga, harasa neza rwose bambaye amataruriya y'umweru barirabura.

Urujya n'uruza rw'abantu nahantu hari inyubako nziza ya etaje igeretse ni ama etaje abiri harimo akantu kazitandukanye hagati n'abantu barimo baragenda rwose urabona ko iyo nyubako igendererwa n'abantu benshi.

Urujya n'uruza rw'abantu, umuganga n'umugabo muremure yambaye rinete arishimye cyane afite telefone mu ntoki yambaye itaburiya y'umweru, yambaye ishati irimo utuntu tw'umukara imbere hari umugore wambaye ikanzu y'ubururu.

Umuntu ari kwa muganga aryamye ku gitanda ni umugore ubona ko ari imibiri yombi harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, birimo biramufasha kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza.

Inyubako nziza cyane parikingi nziza igezweho hari jaride, ubusitani bwiza bugezweho bijyanye na visiyo, inyubako nziza, amabati y'ubururu haparitse imodoka, hari urujya n'uruza rw'abantu barimo baragenda.

Mu karere ka Shyira harimo ikigo nderabuzima, rwose n'ivuriro ryiza rifite inyubako nziza, hasi no hejuru rirageretse hariho amabati meza, hariho inzugi z'umukara, rwose ubona yuko riteye ishema.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, cyiganjemo ibikoresho by'ikoranabuhanga biri mu mabara y'ubururu, umukara ndetse n'umutuku.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, iruhande rwayo hateye indabo nziza, zifashishwa mu buryo butandukanye, hari ugushyira imitako mu nzu ndetse n'ibindi.

Mi mu bitaro by'abarwayi, hari igitanda, harimo televiziyo, harimo ibikoresho, harimo n'ibindi byose bikenerwa.

Inyubako nziza cyane ifite ibara ry'umuhondo, ifite amadirishya ajya gusa ubururu, ifite ubusitani imbere haririmo indabyo hariho n'urugo ruzitiye.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi harimo ameza, mudasobwa n'ibindi byose bifasha abarwayi kugira ngo bakire kandi boroherwe.

Icyumba kinini kirimo umurwayi uryamye ku ntebe, iruhande rwe hari ibikoresho byifashishwa mu buvuzi harimo: mudasobwa ndetse n'ibindi byuma bikomeye.

Jimu nziza cyane rwose harimo amariteri agufasha gukora siporo ukagororoka ndetse ukubaka n'umubiri cyane ku basore no ku bagabo bose ariteri zirabafasha cyane.

Umuntu aricaye arimo arareba, yambaye itaburiya y'ubururu, ni umugabo afite ubwanwa, ari kuri machine, ari kureba ku yindi mashine, ari kureba kuri ecran, ari kureba ibyo ari gukoreraho, abafashe kuri keyboard. Ari kureba ko aribyo birimo biraza.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, isize amarange y'umuhondo ndetse n'umweru, aho abarwayi bahurira bagahabwa serivisi nziza.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bari mu nyubako nini irimo amabara y'umuhondo, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikoti ryiza n'ishati yumweru.

Icyumba kinini cyiganjemo ibikoresho by'ikoranabuhanga, cyiganjemo amabara y'umweru n'umukara, ubona kirimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga, kugira ngo bavure abarwayi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, yiganjemo amabara y'umuhondo, ubururu n'icyatsi, aho abantu baturutse mu bice bitandukanye bahurira bagahabwa serivisi nziza.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bahuriye ku kigo nderabuzima cya Butare, bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umweru n'ubururu.

Inyubako nini, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, cyane cyane itangirwamo imiti yifashishwa n'abarwayi, kugira ngo birinde hakiri kare.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga kugirango abarwayi bagire ubuzima bwiza, mu nyubako nini yiganjemo amabara y'umweru, umukara n'ubururu.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byiganjemo siporo, ubuvuzi ndetse n'ibindi bitandukanye, ifite ibyumba binini kandi byiza.

Ndetse n'uruza rw'abantu. Abantu batatu bo b'abadamu bambaye imyenda y'akazi, ni abaganga, bose barirabura, uwo hagati ni magufi abandi barebare.

Inyubako nini irimo ibikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi aribyo intebe, ameza, imitako n'ibindi byose bishyirwa muri salo.

Mu bitaro harimo ibikoresho bitandukanye. Harimo igitanda cy'umurwayi, hari amashuka meza rwose, hari umusego mwiza, harimo ibikoresho, harimo televiziyo umurwayi ashobora kureba mu gihe ashaka kwirebera amashusho yashaka kuruhura mu mutwe. Hari ibindi byuma bitandukanye abaganga bakoresha bari kuvura abarwayi.

Ikigo nderabuzima ni materinete hariho ibara ryiza ry'umuhondo, hakoze neza cyane hari umuganga urimo uragenda yambaye itaburiya y'umweru.

Inyubako nini zisakaje amabati atukura n'ubururu, iruhande rwazo hari indabo nziza zikikije inzu kandi zirimo umuhanda wa kaburimbo urimo amabara y'umweru n'umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu ikigo nderabuzima, abarwayi babiri baryamye hagati hari igitanda kitarimo umuntu, hirya hari ikindi gitanda, hari ama supernet azinze. Ni ahantu heza rwose ibitanda ni byiza bifite amapine.

Inyubako nini isakaje amabati atukura, iruhande rwayo hateye ibiti ndetse n'ibyatsi bitandukanye, hari umuhanda wa kaburimbo wiganjemo amabara y'umweru n'umukara.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa kwa muganga, kugira ngo umurwayi agire ubuzima bwiza, bityo bikamufasha kwirinda no kurinda abandi.

Icyapa kigarilisiti na kirangaye ko uho macrose isa nkaho ari ahantu hikiri imodoka cyangwa moto hari ibiti bitandukanye hari inyubako hari urugo nari utwatsi hirya y'icyapa numuhanda w'igitabo.

Inyubako ni nziza rwose harimo imodoka eshatu, harimo ibiti bine by'indabo, harimo imikindo ibiri, itatu harimo indabo z'umuhondo harimo akajaride gasa neza rwose ubona ko hasa neza hari isuku, izo nyubako urabona ko byashoboka ko ari nk'amashuri cyangwa amavuriro niho amabati y'ubururu.

Inyubako nini irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa na muganga kugira ngo asuzume neza indwara abarwayi bagiye bafite. Ni inyubako ubona ko ari nziza yiganjemo amabara y'umweru n'ubururu.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru n'ubururu isakaje amabati atukura, iruhande rwayo hari ibyatsi ndetse n'ibiti binini biyikikije ubona ko ari byiza.

Inyubako nini isakaje amabati y'ubururu iteyeho irangi ry'umuhondo, iruhande rwayo hateye ibiti binini byifashishwa mu gukuraho ndetse no kuzana amahumbezi bityo bigatuma abantu bishima.

Icyumba kinini cyiganjemo amabara y'umweru, umukara, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga intebe, ibitanda ndetse n'ibindi bitandukanye.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyiganjemo amabara y'umweru n'umukara, ni ahantu heza ubona ko hakorerwamo ibikorwa byinshi.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, irimo abantu bambaye imyenda y'umweru n'ubururu, ubona ko ishushanyijeho abantu bambaye indorerwamo z'amaso.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo heresi senta. Ni ikigo nderabuzima cyiza rwose, porotaye nziza. Harimo abantu barimo barava kwivuza, uwambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, n'umugore wambaye igitenge cyiganjemo umuhondo n'ubururu.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga kugirango bite ku barwayi, aho bahabwa serivisi nziza bagataha bishimye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga harimo ibitanda ameza ndetse n'ibindi bikoresho abaganga bakoresha kugira ngo bavure umurwayi neza.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri aho abantu baturuka hirya no hino bakaza ndetse bagahabwa amahugurwa atandukanye.

Inyubako nini, yiganjemo amabara y'umuhondo n'umukara, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, iby'ubucuruzi, ubuvuzi, ndetse n'inama z'abayobozi baturutse mu bice byo hirya no hino.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, yubakishije amatafari ahiye, aho abantu baturuka hirya no hino baza kwaka serivise, maze bagataha bishimye, bigatuma bazagaruka.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye bishingiye ku myitozo ngororamubiri aho abantu baturuka hirya no hino bakaza gukora imyitozo kugira ngo barwanye indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi, irimo ibyumba byinshi bifite inzugi zitukura, bikorerwamo ibikorwa bitandukanye ndetse n'iby'ubucuruzi.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo amabara y'umweru n'ubururu, hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru uri kwita murwayi.

Inyubako nziza cyane, hahagaze umukobwa yambaye agapira k'umuhondo n'ijipo y'umutuku, ni igkara, haradekoye hari intebe hirya y'icyatsi hejuru yanditseho giliatrick center.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byo kwa muganga, byifashishwa mu kuvura abarwayi birimo: amabara y'umweru, umukara, n'ubururu aho abantu baturuka hirya no hino baje kureba serivisi nziza.

Ikigo nderabuzima cy'akarere ka Nyarugenge ni cyiza kiriho inyubako nziza cyane hariho ubusitani bwiza hagaragara neza cyane rwose abayigana bose baba bishimye, hari abarwayi ari abaganga babiri bari hirya bambaye ibintu by'umweru.

Umugore uri gukora siporo yazamuye amaboko yahuje ibiganza hejuru afite menshi, umugore w'inzobe ari kugorora amaboko.

Umusore n'umukobwa bari mu myitozo ngororamubiri bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umweru bafite imisatsi myinshi ubona ko bavuye muri siporo kugira ngo birinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi kiganjemo ibyuma bifasha abaganga kuvura abarwayi ndetse harimo n'imiti itandukanye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa kwa muganga, aho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bahurira, bagahabwa serivisi nziza kandi inoze.

Icyumba kirimo abarwayi baturutse hirya no hino mu gihugu bambaye imyenda yiganjemo ubururu, umweru, n'umukara, aho basuzumwa ndetse bagahabwa imiti ibafasha.

Umukobwa wambaye isengeri irimo amabara y'umutuku n'umweru n'ipantaro y'umukara, urimo gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hateretse ivaze nziza irimo indabo.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri wambaye imyenda yiganjemo amabara yumukara iruhande rwe hateretse mudasobwa yiganjemo amabara y'umweru n'umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu umuntu araryamye aryamye ku gitanda yambaye inkweto zifunze, zirimo akabara k'icyatsi, yambaye ikabutura y'umukara, afite ubwoya bwinshi ku maguru, yambaye amasogisi y'umweru, undi mugabo nawe arimo arasa nk'umukanda ukuguru, yambaye ibintu by'umukara.

Icyapa cyerekana abakinnyi handitseho make a play for safety, abo bakinnyi biri kwerekana ko bashobora kugira accident hasi handitseho ngo accidents are avoidable, bambaye mask z'umutuku hari n'uwambaye umuhondo, bambaye amapantaro y'umuhondo n'udupira tw'umyeru.

Urujya n'uruza rw'abantu bavuye mu myitozo ngororamubiri, bambaye imyenda yiganjemo umukara, ubururu, umutuku ndetse bari kugenda mu muhanda wiganjemo amabara y'umweru n'umukara.

Umusore wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, urimo gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hateye indabo nziza kandi zitoshye, ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Umukobwa uvuye muri siporo afite, umusatsi mwinshi, yambaye kuteri mu matwi, yambaye n'akantu ku kuboko k'umukara, ari kunywa n'amazi, urabona ko afite inyota rwose, urabona ko avuye muri siporo, yambaye isengeri iri gusa move.

Umusore wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umweru, wambaye isaha ku kuboko. Ari kureba hakurya ndetse yitegereza imisozi ihari.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umukara, umweru n'ubururu, irimo ibicuruzwa bitandukanye byifashishwa mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage.

Uruhurirane rw’ imbuto, ibyokurya, amagi, inyama, imineke, inkeri, amashu, shufurere, povuro.

Umukobwa yicaye ku buriri, ari kwinanura bisa nk'aho arabyutse, yambaye isengeri y'umukara, yambaye n'ipantaro y'umukara, yazamuye amaboko yayarambuye.

Umukobwa wambaye umupira w'umutuku ufite icupa ry'amazi mu ntoki ubona ko avuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mu byibuho ukabije.

Umusore wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara ndetse n'amagisi y'umweru, urimo ukora imyitozo ngororamubiri, yishimye kandi anezerewe.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga harimo imashini zisuzuma abarwayi ziganjemo amabara y'umukara n'umweru.

Umuntu ari gukora siporo yambaye ikabutura y'umweru yambaye isaha ku kuboko y'umweru, yambaye inkweto z'umweru harimo n'agatuku, yarambuye ukuguru yarambuye n'ukuboko, rwose siporo yazitabiriye n'ukundi kuboko yagushyize hasi, yashinze intoki.

Umukobwa uri muri siporo, ni muremure, yambaye inkweto zirimo akaruru, zifite rasi z'umukara, yambaye isaha ku kuboko, bisa nk'aho yunamye, yambaye ikabutura y'umukara, afite n'umusatsi mwinshi, yunamye afashe ku ivi.

Abana barimo gukora imyitozo ngororamubiri, bambaye imyenda yiganjemo umutuku, umweru, umuhondo n'umukara bigaragara ko ari urubyiruko ruri hagati y'imyaka icumi na mirongo itatu.

Umwana ari kwa muganga ari kumwe n'umuganga, umuganga munini w'inzobe yambaye agapira k'umutuku n'akajire k'ubururu, uwo mwana nawe ni inzobe arimo aramureba rwose ari kumumurika bisa nkaho ari kumumurika nko mu kanwa kugira ngo arebe ko harimo ikintu kirimo.

Umukobwa ari gukora siporo cyane yambaye ipantaro y'umukara yambaye agasengeri k'umukara, afite umusatsi mwinshi yateye intambwe yahinnye ukuguru kw'imbere, ukuguru kw'inyuma yakuramuye yazamuye amaboko.

Urujya n'uruza rwabantu hari umugabo wuriye kukantu kameze nkakego, bisa nkaho ari ikintu ari gushyira hejuru cyangwa ari kubaka n’abandi bari hasi harurangaye yambaye ipantaro y' umukara, n'umupira w'ubururu iyo nyubako ni kuri hosipito ku ivuriro.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, biganjemo abaganga, aho barimo kwitegereza kuri televiziyo kandi ubona ko bishimimye.

Imvange y'imbuto hari pome, hari amacunga, hari icupa ry'amazi, hari metero nini, hari n'imashini iharambitse.

Umusore uri mu nyubako nini, irimo amarangi y'umukara, umweru, icyatsi, n'ubururu, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Ihuriro ry'abantu bahuriye mu nyubako nini ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, bambaye imyenda yiganjemo ubururu ndetse n'umukara, harimo n'undi ufite igipapuro mu ntoki gisa amabara y'umuhondo.

Igikoresho cyiganjemo amabara y'umuhondo, umweru, n'ubururu cyifashishwa n'abaganga kugira ngo bapime indwara zituruka ku mubyibuho ukabije ndetse n'izifata umutima.

Siporo ni ingirakamaro mu mubiri, umugore ari gukora siporo, araryamye, yateruye ukuguru, yaguhinnye, agufatiye ku gituza, ukundi kurarambuye, aryamye agaramye.

Umusore uri mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yiganjemo umukara ndetse n'umuhondo, uteruye icyuma kinini kandi kiremereye.

Umugabo yambaye agakomo ku kuboko, yambaye impeta, yahinye ivi, yambaye ipantaro y'umukara, afashe ku ivi yarihinye, yambaye umupira w'umweru asa nkaho afashe ivi.

Urujya n'uruza rw'abantu, ni abaganga basa nk'aho bari kubyaza nk'umurwayi, bambaye masike, bambaye imyenda y'akazi bose, bafite ibikoresho, urabona ko akazi kabo bari kugakora neza.

Umusore wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umweru, urimo gukora imyitozo ngororamubiri. Arimo arava ahantu hamwe ajya ahandi kugira ngo akurure ingingo ze.

Umuganga urimo kwita murwayi, aho agenda amukoresha imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kumusuzuma neza, kandi amugire inama y'ibyo yakora kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri harimo amabara yicyatsi ubururu umweru ndetse n'umukara.

Umuganga yambaye akuma mu ijosi agakoresho kwa muganga yambaye itaburiya y'umweru afite akantu mu ntoki gapfundikiye wa muganga ni inzobe igice cy'umutwe ntabwo kigaragara.

Icyumba kinini kirimo amabara y'umweru n'ubururu, gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho abantu baturuka hirya no hino bafashirizwa bagahabwa ubufasha bw'ibanze.

Umusore wambaye umupira w'icyatsi, urimo gukora imyitozo ngororamubiri bigaragara ko akora siporo kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umusore urimo imyitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, ari mu nyubako nini yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, ahantu heza ubona ko hashimishije.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo ufite igikomere mu ivi yicaye kugitanda cyiza kiriho amashuka y'umweru, ubona ko hafite isuku kandi hakeye.

Inyubako nini ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, higanjemo amabara y'umweru, umukara, ndetse n'icyatsi, ni ahantu hakorerwa imyitozo, aho abantu baturuka hirya no hino, bagahurira.

Ikirangantego cya Rwanda judo federesheni. Hariho umugabo wambaye imyenda y'imyeru, harimo n'agakara, undi na we yambaye imyenda y'ubururu, ni ipantaro n'ishati.

Umugabo yambaye umupira w’ umukara, ikabutura y' umukara, n' inkweto z' umukara, n' amasogisi y' umweru, k’ ikwete hariho akabara k' umweru, afasha k’ ivi apfukamishije ivi rimwe ameze nkaho yagize ikibazo k’ ivi.

Amazi ni ingirakamaro, uyu muntu afite ijage, ari gusuka amazi, amazi ari mu ijage, ari gusuka amazi igikombe agiteretse hasi nk'ahantu ho kumeza, ari gusuka amazi ajya mu gikombe, rwose kunywa amazi ni ingirakamaro mu mubiri wacu.

Icyumba kinini cyateraniyemo umurwayi n'umuganga bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'ubururu.

Abantu bahuriye mu bice bitandukanye by'ikibuga aho bakina umupira, ndetse uwabaye uwa mbere agahembwa ibihembo bishimishije bityo akabikoresha mu nyungu ze bwite.

Umukobwa wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, icyatsi n'ubururu, afite icupa ry'amazi mu ntoki, ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byiganjemo ibya siporo iby'ubucuruzi ndetse n'inama z'abayobozi baturuka mu nzego z'ibanze n'inzego za Leta.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yiganjemo amabara asa nk'ivu. Afite icupa ubona ko anywa amazi.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu cyumba kinini, kirimo abana, abakobwa, n'abahungu, ubona ko bakeneye ubufasha, kandi bakeneye kwitabwaho mu buzima bwabo.

Ikigo nderabuzima, hari umurwayi uryamye ku gitanda, ufite ikibazo ku kuguru, hari abandi bahagaze impande ye imbere ye, hari abaganga babiri bambaye amashati y'imyeru.

Umuganga urimo kwita ku murwayi, wambaye inkweto ziganjemo amabara y'umutuku, umukara n'umweru ndetse ubona ko bari mu cyumba kinini kandi cyiza.

Umuntu ari gukora siporo rwose arishimye cyane, yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara, urabona yuko ari kugorora itako rye rwose ngo ingingo zikore neza.

Umuntu w'umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri wambaye imyenda isa y'umukara, ikabutura n'isengeri akaba yapfukamishije ukuguru kumwe, ukundi guhagaze neza ubona ko ari kugorora imiti.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, ndetse byiganjemo amabara y'umukara, umweru, umuhondo, n'umutuku.

Umugabo ufite agatambaro apfukishije ku ivi ubona ko afite ikibazo cy'imvune bityo bigatuma agaragara nk'umuntu urwaye kandi umeze nabi. Akaba yagiye kwa muganga.

Ku kigo nderabuzima hari umurwayi araryamye ahinnye ivi, hari umuganga yambaye itaburiya y'umweru, umurwayi urabona ko yambaye ikabutura y'umweru ari ku mureba ku ivi kubera ko ariho afite ikibazo.

Icyumba kinini kirimo umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'imyenda yiganjemo amabara y'ubururu. iruhande rwe hari mudasobwa yifashisha asuzuma ndetse areba raporo yatanzwe n'abandi bantu batandukanye.

Umukobwa wambaye imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi ndetse n'ufite imisatsi myinshi arimo gukora imyitozo ngororamubiri yishimye kandi anezerewe.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ufite ubwoya ku maboko, iruhande rwe hari intebe nziza z'imisego zifashishwa kwa muganga.

Urujya n’uruza rw’abantu, umugabo w’igikara yambaye agapira k’umukara harimo n’uturongo tw’umweru, du mfite karatere mu ntoki aricaye. Arikumwe n’ umuganga, umuganga arunamye n’inzobe yambaye agashati k’ubururu.

Kwa muganga ni hamwe mu hantu hizewe kandi hatangirwa serivise nziza, iyo bakwitayeho kandi bakaguha umwanya kugira ngo bumve ikibazo ufite bityo bakagusuzuma neza.

Urujya n'uruza rw'abantu, umwana bisa nkaho araryamye hasi, umuzungu aramufashe, nawe yirabura, ari kumwe n'umuganga yambaye itaburiya y'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu, abakinnyi bari mu kibuga bambaye amasengeri y'umweru, bambaye amakabutura y'umukara, hari n'abambaye amakabutura y'umweru urabona ko bari gukina rwose barishimye cyane, babyambariye n'abandi bafana bari hirya.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo bambaye imyenda y'umweru, umukara, icyatsi, n'umuhondo.

Umugabo uri mwishyamba wambaye imyenda y'umweru n'umukara, ubona ko yitegereza ibyatsi n'ibiti areba ukuntu ari byiza kandi bitoshye.

Ndetse n'uruza rw'abantu bari mu isoko bari guhaha, hari amavuta, hari imbuto, hari imboga nyinshi zitandukanye, hari ubuki, hari amacupa, hari abantu benshi urabona ko bitabiriye isoko rwose.

Ubuhinzi ni bwiza cyane iyo duhinzemo ibihingwa turabisarura tukarya neza kandi bitaduhenze cyane, harimo ibihingwa byinshi bitandukanye harimo: intoryi, harimo imboga zo kurya ibyo byose bituma tugira ubuzima bwiza.

Inyubako zitandukanye, ziganjemo ibicuruzwa by'amoko atandukanye, harimo inyanya, amashu, intoryi, ndetse n'ibindi bitandukanye, byifashishwa mu buzima, bya buri munsi.

Urutonde rw'ibiribwa bitandukanye harimo imineke, amata, inanasi n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu kurinda imirire mibi.

Mu buhinzi butandukanye bw'indabyo, ubuhinzi butandukanye bw'amashu harimo imboga turya, imboga zitugirira akamaro hari uburyo byubatse vitami cyangwa proteyine hejuru hari A n'amashusho hasi n'uburyo bigiye byubatse.

Icyapa cyanditseho Global Herbal medicine Market, report contains market forecast, competitive analysis, Market segmentation, pricing analysis and Market Dynamic...

Agakarito ka serumu, ni umweru, hashushanyijeho akantu kameze nk'akanuma, hariho amagambo yanditse yanditseho ngo serumu, ni agakarito k'umweru gafite agapfundikizo k'ubururu.

Igiti kinini kiriho amabara yicyatsi gikoreshwa mu kuvura indwara gakondo giteye iruhande rw'inyubako nini ikorerwamo ibikorwa byubucuruzi.

Ubuhinzi ni ingirakamaro ariko buriya hari n'ibiti n'ibindi bivamo umuti kandi uko ushobora gutera cyangwa se bikimeza bya kimeza biraya bitakimeza ari umuravumba, umuravumba uravura hano ni umuravumba uteyemo harimo n'indabyo uravumbura uvura indwara nyinshi cyane harimo giripe harimo ibicurane.

Ubuhinzi budufitiye akamaro hari ubuhinzi bw'imiti, ibiryo bivamo umutituma tukira igihe twarwaye n'ibicurane inkorora cyangwa ibindi hari imiravumba, ibiti byiganjemo imiravumba urayirya ugakira inkorora, ibicurane hehe n'indwara nk'izo.

Icyapa cy'umuti uvura rivayive igisubizo ku muryango, uvura uyu muti uvura kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha, ukumira indwara zifata porositate.

Ubuhinzi buratembanyije hari ibiti bikunzwe mu gihugu cya ku isi, hari nk'igiti cy'umuravumba gifite ibibabi birandaranda by'icyatsi, kiriya giti ni umuti kuko uravura, uvura ibicurane, uvura inkorora, uvura ibintu byinshi cyane.

Amavuta y'uruhu "Skin Oil", ari mu gacupa k'ubururu ,hejuru handitseho ngo hayidiretesheni, hasi handitseho notire di inkotirinabo.

Alimantasiyo nziza cyane harimo ibinyobwa bitandukanye harimo amavuta, harimo amacupa menshi atondetse neza rwose mu buryo bwihariye.

Umugabo yita ku buhinzi bwe, ni umugabo usa nkaho ari muremure, yambaye umupira w'icyatsi ufite akabara k'umuhondo, yambaye baji mu ijosi, afite indabo mu ntoki, yambaye ipantaro y'umukara.

Icupa ry'ubuki bwiza bw'umwimerere, ku icupa handitseho ngo foreva bi hani, hariho uruyuki, hariho ibara ry'umuhondo n'irindi bara rya shokora.

Ubuhinzi hari indabo z'umuhondo haririmo amabara y'umutuku, harimo n'amabara y'icyatsi, izo ndabo zifite amababi manini agaye, indabo nyinshi abona ko ari uruhurirane rw'indabo harimo ibiti byinshi cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu. Ni abantu bari gukora ubuhinzi bwabo, ubuhinzi butandukanye, ubuhinzi bw'imboga, ubuhinzibw'ibintu byinshi bitandukanye, barimo barasarura, barimo barita ku buhinzi bwabo, rwose urabona ko ari byiza cyane kandi bizabageza ku iterambere bifuza.